Ntibyakabaye ikibazo guhangayikishwa n'aho wasubiriramo amasomo cyangwase aho wafatira amasomo, kuko ikoranabuhanga aho ariho hose ryahagera, haba mudasobwa, haba telefone igendanwa, cyangwase n'ibitabo biba byanditse byagufasha gusubiramo aya masomo, cyangwase kunguka ubundi bumenyi bushyashya.